Inka mu muco nyarwanda yagaragaraga nk'ubukungu bw'igihugu, ikagaragaza n'umuco, inka rero cyari ikimenyetso cy'ubukungu none hano hari ishyo ry'inka kuko ari inka nyinshi.

Hari ibihingwa bigiye bitandukanye, bifasha uwabihinze mu kuva mu bukene, harimo nk'imyumbati, ibitoki ndetse n'ibindi. Abahinzi nabo ni abantu b'ingirakamaro, mu bukungu bw'igihugu.

Ingurube ni bumwe mu bwoko bw'amatungo yororwa mu rugo, aho ari bumwe mu bwoko bw'itungo ribyara ibibwana byinshi, rigirira umumaro uwaryoroye, rikagira icyo rimwongerera mu bukungu.

Ubwo abaganga b'amatungo bazaga gutera inshinge inka, badusobanuje uburyo tuzigaburira, tumaze kubibabwira babona kuzitera inshinge kugira ngo zikomeze gukura neza.